Ni ngombwa ko ku bitaro, cyangwa farumasi, bagira imiti yose kuko bifasha umurwayi gutabarwa kare bimworoheye, ku buryo atahura n'ikibazo ako kanya.

Mu gihe twateye imyaka yacu, tuba tugomba kuyikorera neza, kugira ngo izatange umusaruro uhagije, ndetse dusagurire n'amasoko.

Ibyatsi bifite akamaro kanini cyane, usibye no kuba biribwa n'amatungo, bivamo n'imiti igiye itandukanye, abantu bifashishaga kera.